Akabare keza kagira abakozi bambaye iniforume n'abakozi bagira isuku. Ngewe ni ko najya kunyweramo kubera ko kabamo n'inzoga zose. Habamo n'ibirahuri. Umuntu anywesha ibirahuri.

Ahantu bakirira abantu mu mahoteri, usanga harimo utuzu twinshi bita utubingaro, usanga ari ahantu hatuje cyane ku buryo bifasha abantu kwisanzura, ku buryo bashaka bwose cyane cyane iyo hari utubingaro.

Inzu bakorera ho ubutembere bagiye kwica inyota, ibamo inzoga z'ubwoko bwose, binnyuraranye abantu baragendaga bakicara bakabahazoga bakayinra mu birarahuri ubishaka ugashira inyota buri munsishaka ajagabo nazakomezazaga

Sikoro ni inzoga nziza cyane akenshi uyinywa umaze kurya, iyo uyinyweye umaze kurya ntabwo isindisha. Usanga ari inzoga nziza n'abagore baranyinywa kimwe n'abanywa fanta usanga byose ari byiza cyane ku buzima bw'umuntu.

Muri bare hahuriramo abantu benshi, inshuti n'abavandimwe, njyewe iyo najyanye n'abantu banjye, tugeramo tukanywa inzoga, bakaduhera mu birahuri, tunywa izo dushaka zose, zaba zifunze cyangwa ari izidafunze.

Intebe, ibitanda, ni ibintu dukoresha mu nzu, mu buzima busanzwe tuzikoresha mu nama, tuzikoresha mu nzu zo guturamo n'ahandi hose.

Akabare keza karimo firigo, bagira inzoga z' ubwoko bwose haba n' ibyuma, habamo amalikeri inzoga nziza ziryoha aka kabari ni keza.

Ahantu haba inzoga z'ubwoko bwose, usanga nta nzoga n'imwe wabura, ibyuma birahaba, usanga za primusi zihari, usanga za fanta zihari, ahantu nk'aho hatanga amafaranga menshi, kubera ko abantu bakunda kujya kuhanywera, usanga abantu bahateraniye bari kunywa, kubera ko icyo bashaka cyose kiba gihari usanga..

Amahoteli adufasha kwakira abakiriya tubona amafaranga kandi agacumbikira abantu .Njyewe nkunda kujya muri hotel nziza ifite amacumbi meza cyane cyane kurusha ahandi.

Impamvu insinga z'amashanyarazi zikunda kuba hejuru mu kirere, bituma impanuka zitaba. Abana ntabwo bahegera, kubera ko nta mwana wakurira ngo ajye hejuru mu kirere. Bahita bamubona bakamukuraho ntabwo yarinda yahira ku ipoto.

Ahantu bakorera ibintu by'imbaho bahita ateriye. Inzu bakoreramo imbaho iyo isakaye bituma no mu mvura bakora. Usanga bafite inyungu nyinshi cyane cyane kubera ko n'ibishariro barabigurisha, abantu barabikunda cyane cyane.

Icyapa usanga kiri kugaragaza ibintu biba ahantu, ukahajya utabanje kurangisha, kubera ko uba uri kubibona bishushanyije ku cyapa. Icyapa ni cyiza kiradufasha cyane cyane.

Ni hoteli igira abakiriya benshi cyane cyane. Usanga ba mukerarugendo bakunda kujyamo. Ni hotel yubatswe na kiliziya gatulika iba mu karere ka musanze usanga igira n'ibintu byiza byinshi cyane cyane .

Igare ni ryiza ridufasha gutwara imizigo myinshi, twe tutashobora, cyane cyane iyo abantu batakwikorera, usanga igare ritwara amajekan, ritwara imifuka, usanga igare ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, bitanga amafaranga menshi.

Iyo hari aho uri kujya ukabona wakerewe, ariko ukabona igare urijyaho kuko rigufasha kugera aho uri kujya vuba kandi cyane, usanga igare riri kwihuta, igare ridufasha ibintu byinshi cyane, umushinga wo gutwara igare ni mwiza cyane cyane.

Njyewe nkunda kujya mu mahoteri, najyaga njya mu mahoteri, nagendaga ku ku magare, ariko nsigaye nkoresha imoto. Moto zigendaga cyane kurusha amagare, cyane cyane iza moteri.

Bimwe mu bidufasha kumenya ibintu ahantu bakora, nuko bashira icyapa bagashiramo nimero, iyo dushatse kumva tugasanga nyirabyo yashizeho nimero yo guhamahamagara, ku nimero baba bashizeho.

Igitunguru ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, ntabwo gitinda cyane, igitunguru kiduha amafaranga igitunguru ni cyiza kivamo umuti, ibitunguru babirya ku biryo ibiryo bikaryoha.

Inzu bacururizamo ingofero, ingufuri, amatoroshi adufasha kubona iyo turi kugenda ahantu hari umwijima, bacururiza imikeka, bacururizamo umupira wo gukina, bacururizamo amabuye y'iradiyo.

Iyo ufite butike, ku muryango ukaba uhacururiza imyenda, ukahacururiza nibindi bintu byiza, hakaba haba kahibigabo, habaho umuntu udoda, ururunguka cyane, kubera ko urubaraza rwawe, urakoresha neza.

Inzu ya butike ibamo ibintu bitandukanye, habamo ibigori, habamo amasaka, habamo ingano, habamo uburo, habamo n'ibindi bintu byinshi. Kandi ku muryango wahatereka ibyo ushaka byose byagufasha cyane cyane mu bucuruzi bwawe.

Isoko ryiza rya kijyambere, usanga harimo ibintu byinshi. usanga harimo imyenda, umuntu ujyayo asanga ibyo akeneye byose biriyo. Ntabwo wajyayo ngo usange hari ibyo ushaka bitariyo byose. Ubibonamo ukihahira uko ubishaka cyane cyane, kandi ugahaha byinshi cyane.

Amahoteli adufasha kuzana ba mukerarugendo benshi cyane cyane tukabona amafaranga, amahoteli bacururizamo habamo bale, hakabamo amaroji, habamo ahantu heshi ho kuraramo bararamo, ku buryo batanga amafaranga menshi cyane.

Inzu bacuruzamo amarangi, ituma tubona amarangi neza inzu zacu tukazisiga zigasa neza, umuntu ufite inzu yasize irangi iba isa neza kandi ikeye, ahantu hasize irangi haba hameze neza kandi hafite isuku.

Inzu y'ubucuruzi bacururiza mo amarangiyi, bacururiza mo irangi, bacururiza mo ferabeto bacururiza mo peterori, bacururiza mo ibyo kurya, bacururiza mo imyiko, bacuruririza mo n'ibyubako n'ibikoresho by'ubwubatsi byinshi cyane.

Abantu bacuruza imyenda ni umushinga mwiza, kubera ko imyenda iragurika cyane, kubera ko nta muntu ubaho atambara, usanga rero ubucuruzi bw'imyenda burunguka cyane, butanga amafaranga menshi cyane.

Inzu yo gucururizamo, imbere izicururizagaho inkweto, ibabafasha kutabivanga n'ibindi bintu, ibindi bintu bikaba mu nzu mo imbere, bikadufasha kugira umutekano uhagije.

Njyewe nkunda ibintu bya palasitike, kubera ko bidapfa kumeneka uko bibonye, palasitike ni nziza cyane cyane kubera ko buri wese ashobora kuyikoresha icyo ashaka cyose, nta mpungenge nini agira.

Iyi nyubako ni y'umuzungu yayubakaga munsi y'akarere icyo gihe jyewe najyaga kuhasaba akazi ntibakame, yubakishijwe amategura ya kera arakomeye atuma idatura.

Depo ni ahantu bacururiza inzoga, haba hari inzoga z'ubwoko bwose, skoro n'izindi nziza za fanta, ushobora gucururizaho n'amayinite, abantu bakabona amayinite bagahamagara aho bashaka hose

Amazu bashyiraho, bamanikaho ibyo bacuza, ubona ari meza aba yujuje ibyangombwa byose, icyo ushaka ukibona ko kiri kucyapa ukinjira utabanje kubaza, kandi amazu abaho yujuje ibyangombwa, aba ariho nazakandagira ukarabe nyinshi cyane.

Njyewe mbona abantu bacuruza ibitenge bunguka cyane cyane kurusha izindi myenda, kubera ko abagore bakunda kugura ibitenge ndetse n'abagabo badodesha mo amashati, bakadodera n'abana babo, babijyana no gusenga.

Iyi modoka ushobora kuyikoresha ugiye guhaha, bayikoresha barigutembera, njyewe mfite imodoka najya nyikoresha ndi gutembera njyewe ntabwo nayijyana guhaha..

Ahantu bakoresha umuco gakondo, usanga bakunda kuhajya cyane, usanga twese ariho dukunda kujya kubera ko tuba dushaka kureba ibyabagaho kera twe tutazi twumva mu bitabo abatwigisha.

indagara turazikunda cyane iyo washyizemo indagara usanga biri kuryoha cyane cyane iyo birimo agasosi gakeya katari kenshi cyane wumvaga biryoshye cyane. Indagara ziva mu mazi ziduha n'amafaranga menshi cyane cyane.

Ahantu bogoshera bahita saro, usanga bakora n'ibijyanye n'inzara, usanga bakora n'ibijyanye n'iminwa, usanga baca inzara, basiga amaverine, barogosha, usanga harimo ibikorwa byinshi cyane, baha abantu akazi.

Ahantu bacuruza imyenda y'abageni usanga hariho ibintu byose bakoresha mu bukwe. Usanga hari n'ibindi byinshi cyane cyane hariho: ibisabo, udukoko, inkongoro, usangaga hariho ibintu byinshi cyane cyane ibyushaka cyose wagisanga aho.

Umuntu ucuruza imyenda, akaba afite ibintu yambika imyenda, bituma imyenda bayibona neza kandi ukabona ko umwenda ari mwiza, cyane cyane ugahita uwugura kubera ko baba bawushyize mu kintu kimeze nk'umuntu.

Omini ni hoteri bagira inzoga nziza, kandi natabwo bahenda cyane, buri wese ajyamo, kuri omini habamo sare y'inama nziza, habamo n'amacumbi, habamo n'amaroji ,naho kurira.

Ikintu bita buce ngende ni agafuka batwaramo, ibintu bavuye guhaha cyangwa se bajya mu murima cyangwa se bajya mu kazi, buce ngende kimwe n' agataniye barabikoresha ni ibikoresho byo mu rugo kandi bitwaritse neza.

Njyewe ubusanzwe ndubaka, mbese buriya muri make banyita umwubatsi cyangwa umufundi ku kazi. iyo inzu uyubatse neza ugashyiramo n'amakositara bituma abantu bose bakwifuza.

Umuntu umanika icyapa ku nzu aho akorera ibikorwa bye akora, abimenyekanisha neza, buri wese yaza agahita amenya neza icyo aho hantu hakorerwa, kubera ko aba ari kubibona ku gipapuro cyangwa se igipankarite baba bahamanitse.

Muri comfoti hoteli habamo sale y'inama, habamo amacumbi, habamo bare, habamo n'inzoga za henikeni, habamo ibintu byinshi byiza cyane. Ni etaje iherereye munsi ya Karisimbi. Abajyayo n'abashaka kujyayo bambwira nkabarangira ahantu iherereye cyane cyane abatahazi batuye mu karere ka kure cyane.

Ahantu bakora serivise za emutiyeni, inzu bakoreramo bayita emutiyene conegite shopu kinigi, iherereye mu kinigi ni isoko haba ibintu byinshi haba n'abakiriya benshi.

Inzu bacururizamo ibintu byinshi, habamo gaze, habamo imirunga, habamo amacupa y'imiti, habamo amagi, ufata icyapa ukagishyira ku nzu na nimero abantu bakamenya icyo ukora n'aho ubikorera.

Inzu bacururizamo imyenda, ushobora no kuhashyira ibindi bintu, ushobora no kuhashyira umupira w'abana, umuntu yaza kugura umwenda akagura n'umupira akawujyanira umwana we akishima cyane, hari abantu bajya ku isoko bazi ko baragura ibintu.

Ahantu harimo inzoga za misyingi, fanta ahantu habaga inzo nk'izi turahakunda, kubera ko umuntu iyo agiyemo ntabwo abura izo anywa, habamo na burusheti aha bahita mu kabari.

Gushyira icyapa ku nzu bigaragaza icyo ukora, bigatuma buri wese uhanyuze amenya icyo ukora atabanje kubaza, bikamufasha guhita yinjiramo akamenya neza icyo ari bugure atabajije, atarangishije.

Buriya rero njyewe mbona iterambere na ryo ryarazanye ibintu byiza. Duteka twihagarariye hejuru, bituma umuriro uguma hamwe ugasanga ibiryo bihiye vuba, isafuriya ntizandura ngo zijyeho imbyiro.

Banki zidufasha kubika amafaranga yacu ntituyasesagure, amafaranga ari muri banki, aba afite umutekano. Njyewe iyo nashyize amafaranga yanjye muri banki, mba nzi neza ko nta cyo yaba, afite umutekano wuzuye nta kibazo.

Amakoperati adufasha kugera kuri byinshi cane cane kuko atuyobora no ku byo tutazi cane, akadufasha kugera kuri byinshi, atwigira n'ibikorwa tugomba gukora.

Inzu igetse itwara ikibanza gitoya ntabwo wabura aho ushyira ibindi bikorwa ubona aho ashyira jaride, ukabona aho gushyira parikingi. Zidufasha gukoresha ubutaka butoya kandi hakajyaho inyubako nini.

Ni byiza iyo ucuruza, ugacuruzamo imifuka. Abantu baza guhaha, bakabona ibyo batwaramo, bahita bagura n'imifuka. cyane iyo utayihendaho. Abantu benshi, bakunda kuza nta kintu bafite baguriramo, bagura imifuka.

Njyewe nkunda ibishora cyane mu myenda yose ngura haba higanjemo imyenda y'ibishora kubera ko umuntu yifubika iyo ari mu mbeho, bigatuma imbeho itamugeraho ikamurinda ndetse n'uburwayi cyane cyane akumva ashyushe akamererwa neza.

Njyewe rero iyo mfite amafaranga, amfasha kugura ji, nkagura fanta, nkagura n'ibindi nkeneye byiza, nkagura ibintu byamfasha mu buzima bwanjye nkamererwa neza.

Boutique ni inzu nziza iba irimo ibintu byinshi, cyane cyane usanga abantu bose bari kujyamo, kandi n'uri kuyicuruza arunguka, kubera ko aba afite ibintu byinshi binyuranye cyane cyane.

Njyewe nikundira amasahani atari ay'ibirahuri ni yo abantu bose bakunda cyane cyane kubera ko adapfa kumeneka uko yiboneye, abantu benshi barayakunda cyane cyane birenze uko tubitekereza.

Ibiva mu mazi, bidufasha kudasubira inyuma, bidufasha kubona amafaranga, kurya neza, bituma tutarwara bwaki, abana bacu bakabaho neza, ntibajye mu mirire mibi, ahubwo dukura tumeze neza.

imbanda n'imikati bakora mu ngano bavangamo n'ifari ziryoha cyane cyane, zikunda kuba mu majyaruguru usanga bakunda kuzikora, imikati bita imbanda abantu barazikundaga cyane cyane, usangaga ari aban,a ari abakuru bose barazirya.

Ifu ya bino ni ifu nziza batekamo igikoma iba ari imvange irimo ibintu byinshi cyane ku buryo iba ifu nziza ku bana, ndetse n'abantu bakuru barayinywa bikagenda neza cyane.

Puwavuro ni ibintu byiza bizamura ubukungu bw'umuntu. Puwavuro iyo uzihinga cyane usanga zaramenyereye umurima ku buryo ubona amafaranga uko ubishaka. Umuntu uhinga puwavuro ntabwo abura amafaranga, ahorana amafaranga menshi cyane cyane.

Amajerekani ni meza cyane, adufasha gutwara ibintu byinshi bisukika, ugasanga ubitwaye neza, bitari kugenda biramenagurika, usanga atwara amazi neza, cyangwa se atwara za peteroli, gatwara n'amavuta, hari n'amavuta menshi, aza mu majerereka.

Isoko ririmo intoryi, intoryi kuzifata neza, uzishira mu tubase, ukazoza, ukazishiramo amazi menshi, kugira ngo ataza gushiramo zikangirika, mu isoko haba harimo beterave, inyanya.